Aha bari kutwereka icyapa, icyo cyapa gishushanyijeho umugabo uri guseka, yambaye ikote ry'umukara ndetse yambaye n'ishati y'umweru, afite umusatsi utari mwinshi uringaniye.

Hano turi kureba umuryango ni umugore n'umugabo ndetse n'umwana, bigaragara ko bishimye basetse, ndetse bafite ubukombe bigaragara ko bari kunywa, ibintu bisukika.

Aha turi kureba umugabo ufite telefone. Hashushanyijemo inzu ndetse yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru. Hari koteri afite mu matwi zimufasha kumva ndetse intoki ze yazirambuye.

Aha turi kureba abantu batatu harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, bafashe ikipapuro kinini inyuma yabo hari urundi rupapuro rw'umweru runiniri bigaragara gushyiraho amashusho kugirango ngo abantu bose barebe.

Tekana mu gihe cyawe k'izabukuru, umusaza n'umukecuru bari gusunika amagare, hakurya hariyo ikiyaga ndetse hejuru hari ikirere gikeye bisa n'aho kirimo akazuba, hasi hari ubwato ndetse n'umucanga.

Aha bari kutwereka urupapuro, urwo rupapuro rwanditseho urumve mworozi ndetse rwanditseho n'andi magambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hari n'icyapa gishushanyijeho inka, inkoko ndetse n'ingurube, bigaragara ko bari gukangurira umuhinzi mworozi gukora ubuhinzi.

Aha turi kureba abagabo, abo bagabo barahagaze, bahagaze ku cyapa cyanditse magambo ya M na U na A, bigaragara yuko hari ibintu bari kwamamaza, inyuma yabo hari abandi bahari.

Hano turi kubona inigi zimanitse, izo nigi harimo inigi z'umutuku ndetsei n'iz'umweru , amaba, zifite amabara agiye atandukanye ziramanitse ku biti, ibyo biti bikaba ari iby'imbaho.

Aha turi kureba imyenda, iyo myenda iramanitse ndetse biragaragara ko igurishwa.

Aha bari kutwereka imodoka, ikinguye imiryango yose ndetse hakurya bari kutwereka ibiti bihari, bakanatwereka n'uruzitiro, urwo ruzitiro ruzitiwe n'ibyuma.

Aha hari imodoka ziparitse, izo modoka ni imodoka nyinshi ndetse bigaragara yuko aho ziparitse hasa nabi hasa nkaho hari umwanda, turi kureba n'abandi bagabo babiri basa nk'abari kuganira umwe asa nkaho amutungira agatoki, bari no kutwereka hakurya umuhanda ku nkengero zawo hari ibiti bihari ndetse n'inzu igeretse.

Hano turi kureba imodoka nshyashya, bigaragara y'uko zose zifunguye imiryango. Hari abakobwa babiri bambaye ubisa, bambaye n'udufukamunwa dusa, bafunguye imiryango y'iyo modoka.

Aha turi kureba abantu babiri, umwe yambaye ingofero, undi ntayo yambaye, inyuma y'abo hari imodoka ihari itwara abagenzi, urebeye inyuma cyane turahareba icyuma gitwara umuriro wamashanyarazi, mu ndimi z'amahanga cyitwa polesi, hirya hari inyubako ihari igeretse.

Aha turi kureba abagabo babiri. Bari guhererekanya, ibintu bimeze, nk'udukarito, ndetse inyuma yabo, hari imodoka ihari. Ha hirya y'iyo modoka hari inzu ihari, ndetse inzu bigaragara ko igeretse.

Aha bari kutwereka igiceri cya kera. Icyo giceri cyakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenenda mirongo irindwi na karindwi, gishushanyijeho ikawa ndetse cyanyanditseho banki nasiyonari y'u Rwanda.

Aha hari igiceri gishushanyijeho igitoki mbese cyakozwe mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo irindwi na karindwi, cyanditseho Rwanda.

Aha turi kureba abagore babiri, bishimye, bari guseka. Umwe yambaye igitambaro mu mutwe, undi afite umusatsi w'igisuko. Bigaragara yuko ari kwakira amafaranga, undi ayamuhereza.

Aha bari kutwereka ikirango cy'inka ndetse bakatwereka n'ibikoresho bibika amata urugero nk'ibi byansi biri hejuru y'akabati hari n'intebe ziriho ubusa.

Aha bari kutwereka inyubako. Iyo nyubako, hari icyapa cyangwa se ikirangantego, gihari kereka ko aho hantu hari iduka, iduka ricuruza ibinyobwa by'amata se cyangwa n'ibindi byayi.

Hano turi kureba umudamu wambaye neza imyenda y'ibitenge, ukuboko kumwe gufashe ku rukuta hari ibintu ari gusobanura, inyuma ye hari ibikoresho bihari byo mu nzu.

Hano turareba isahane, hejuru hari irindazi ndetse iyo sahani iteretse ku gitambaro, bakanatwereka intebe iticayeho umuntu ndetse n'agakoresho kaba karimo ibihiko.

Aha turi kureba igikoresho cyifashishwa babikaho ibikoresho byo mu nzu, twavugamo hariho amasahane ndetse n'amateremusi, hirya bari kutwereka ameza, bakanatwereka n'igikoresho gikonjesha kikanashyushya ibyo kunywa.

Aha turi kureba abantu bari gufungura bari ku meza, imbere yabo hari ibikombe bihari ndetse hari umuntu ufite ibiryo ku isahani, hirya hari umuntu uri mu muryango we yabateye umugongo yambaye ingofero.

Aha turi kureba abantu batatu, ni abakobwa. Bigaragara ko uri mo hagati ari kubaganiriza bicaye ku ntebe ya karambara, inyuma yaho hari idirishya rifunguye igice kimwe ndetse hariho n'icyenda cy'umutuku.

Aha bari kutwereka urupapuro, urwo rupapuro rwanditseho amagambo ndetse bigaragara ko ari urw'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu gihugu, bigaragara ko bari kwerekana uburyo ugomba kwishyura amafaranga y'imisoro n'amahoro utararanya mu buryo bwiza.

Aha turi kureba urupapuro urwo rupapuro rwanditseho amazina ndetse rwanditseho na nimero, ibi n'ibya ni ibyaya sosiyete ishinzwe imisoro n'amahoro, mu ndimi z'amahanga yitwa Rwanda Reveni Otoriti. Bigaragara ko bari kwigisha abantu uburyo ushobora kwishyura imisoro yawe.

Aha turi kureba urupapuro, urwo rupapuro ni umweru. Rwanditseho amagambo y'umukara.

Aha turi kureba urupapuro rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Bigaragara ko bigisha abantu uburyo ushobora kwishyura no gusora. Hariho nomero, akarere ndetse n'itariki.

Aha ndi kureba urupapuro rwanditseho ko ari Banki ya Kigali, urwo rupapuro rugiye ruriho inyuguti nyinshi zandikishije ibara ry'umukara, urwo rupapuro ni umweru.

Aha bari kutwereka amafaranga, ayo mafaranga ashushanyijeho umugabo wambaye ibirahuri by'amaso, mu ndimi z'amahanga byitwa amadarubindi, ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga y'u Rwanda, ni amafaranga yo mu yandi mahanga.

Aha turi kureba umuntu uri kubara amafaranga, ni inoti y'ijana turi kureba, ndetse hari andi apanze menshi cyane, inyuma ye hari abantu bicaye barangariye muri telefone.

Aha turi kureba amafaranga. Hari umuntu ushushanyijeho. Aya mafaranga ni inoti y'igihumbi. Bigaragara ko ari aya Tanzaniya bakoresha.

Aha turi kureba umuhanda uciyemo umurongo wera, ndetse hirya y'uwo muhanda hari inzu ihari, munsi y'iyo nzu hari abantu bahagaze bigaragara ko bari kuganira, iyo nzu iriho ibipapuro bigaragaza y'uko aho ahantu havunjshiriizwa amafaranga.

Aha turi kuhareba ibikoresho, bikoreshwa muri ofise ndetse twavugamo ibyinshi bigiye bikozwe mu mbaho, harimo intebe z'umukara, intebe z'umweru ndetse n'ameza y'umweru.

Intebe zibajwe mu biti ndetse n'ameza abajwe mu biti zisa n'umutuku. Hirya hari inzu ifite amadirishya iteye irangi ry'umweru n'inkingi z'ibyuma. Hakurya hari urugo ruzitiye ndetse hasi hari ibyatsi.

Aha turi kureba intebe nyinshi z'imifariso, hari izikozwe mu mbaho, ndetse tukareba n'inyubako yanditseho Kwizerwa art, hari abantu benshi bahagaze mu muryango, imiryango irafunguye, ndetse hirya bari kutwereka insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hari n'igiti gihari.

Aha turi kureba intebe. Ndetse hari umuntu wicayemo. Bakatwereka n'inyubako ndende cyane, bisa nk'aho igeretse.

Aha ndimo ndeba amatara yo ku muhanda ndetse bigaragara ko ari mu ijoro rwose, hirya hari inzu igeretse, iyo nzu ifite amabara y'umuhondo, hakurya bigaragara ko hari ibiti biri ku nkengero y'umuhanda ndetse n'imodoka ziri muri uwo muhanda.

Ubwogero bugari ndetse n'inzu ndende, imitaka ndetse ameza n'intebe biyakiriraho barangije koga, uburiri baryamaho bari kota akazuba bavuye mu mazi, inzu nziza zifite imiryango mitoya ndetse n'amadirishya y'ibirahuri, ibiti byinshi biri inyuma y'aho.

Aha turi kureba ibyo kurya, twavugamo inanasi, imineke ndetse n'izindi mbuto. Banatwereka, umutobe ukoze uri mu bicupa ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa byo mu nzu biri ku meza.

Aha turi kureba inyubako zubatse nk'amahema zigaragaza ko aha hantu baharuhukira, ndetse hirya yaho hari inyubako zihari zubakirije amarangi y'umweru, bakanatwereka n'ikirere gifite ishusho y'ubururu n'izindi nyubako ziri hakurya y'umuhanda.

Aha turi kureba amatara yo ku muhanda. Ndetse bakatwereka n'inzu, igeretse rwose, ifite ibyumba byinshi. Bigaragara yuko iyo nzu ikorerwamo serivisi zitandukanye z'amacumbi ndetse n'amahoteli.

Aha turi kureba ubwogero bugezweho bwa kizungu bigaragara ko iyo umuntu arangije koga aza akaruhukira muri utu tuntu tumeze nk'amahema, muri utwo harimo intebe zihari ndetse hakurya hari imodoka iparitse bakanatwereka n'ibiti bakanatwereka n'inzu zihari iyo ugeze aho kuruhukira.

Aha bari kutwereka ubwogero ndetse bigaragara ko abantu baruhukiramo, iyo bashaka kuruhura ubwonko. Hirya baratwereka amahema aho irimo intebe abantu baruhukiramo, ndetse hari n'ibiti bihari bitanga amahumbezi aho hantu.

Aha turi kureba ibikoresho byo mu nzu, urugero nk'intebe. Ndetse bakatwereka n'ibindi bikoresho biri hirya, urugero nka mudasobwa, ariko iyo mudasobwa ntabwo bayitweretse kugira ngo turebe nimba yaka cyangwa itaka.

Aha turi kureba umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse tukareba n'abandi bagabo bambaye ijiri bari kuganira n'undi utayambaye hafi aho hari abantu bari kuva mu nzu bigaragara yuko aho hantu hakorerwa serivisi zitandukanye z'ubwishingizi iyo nzu irageretse.

Aha turi kureba ifoto y'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ari guseka ndetse bigaragara yuko yambaye n'amadarubindi cyangwa se ibirahuri by'amaso.

Hano turi kureba abadamu ndetse n'umugabo, abadamu bose baritwi bigaragara ko hari imbeho imbere hari akantu kameze nk'agasanduku gahari hejuru y'agasanduku hari ibintu bimeze nk'ibipapuro inyuma yabo bose hari inyubako za kinyarwanda z'ibyatsi ndetse n'izindi zisanzwe ndetse bari kutwereka n'ibiti birihafunga n'intebe ziriho ubusa zitukeyeho abantu.

Aha turi kureba ibicuruzwa harimo imboga ndetse n'imbuto harimo amaronji ndetse n'amadegede hari abantu bari kubicuruza harimo abana ndetse n'abantu bakuru hakurya turi kureba ihema rihari rigaragara ko ririnda abantu izuba ndetse hari n'ibyatsi bihari.

Hano turi kureba abantu benshi harimo abacunga umutekano ndetse n'abandi bantu batandukanye bambaye amakote bigaragara ko aha ngaha habera ibirori. Turi kureba n'amahema ahari hakurya bari kutwereka insinga zikwara umuriro w'amashanyarazi ndetse bakatwereka n'amazu ageretse hakurya na none baratwereka ibiti byinshi.

Aha bari kutwereka isoko. Bakerekanamo ibikoresho byifashisha nk'imbuto, inyanya ndetse n'ibindi. Harimo n'abagore bigaragara ko aribo ba nyir'izo nyanya bari gucuruza. Hirya hari inzu zihari z'ubucuruzi.

aAha turi kureba umudamu uri mu isoko, ahetse umwana, imbere hari amashu ahari ageretse ndetse bari kutwereka n'inyuma hari inyanya zihari, hakurya hari undi mudamu uri muri izo mbuto nawe uri gucuruza ibindi biribwa, bigaragara ko iryo soko ritubakiye neza.

Aha hari inyubako ifite ibyumba byinshi, hejuru hari abantu ndetse begamye ku tuntu bita uturinda basazi. Hasi hari imodoka zihaparitse ndetse bigaragara ko hari n'iya polisi.

Hano turi kureba akazu karimo ubusa k'abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, hari n'umuntu ushaka kuza mu ifoto neza ariko ntabwo kamera yamufashe neza akanatwereka n'umuryango ukinguye.

Aha bari ku twereka akazu gakorerwamo n'abakozi ba sosiyete ya MTN, hafi yaho hari abana bahari bari imbere y'ako kazu, uwo mukozi arimo yambaye ishati y'umweru hirya hari inzu zihari.

Aha turi kure abantu babiri barangariye muri terefone, umwe yambaye umupira w'umuhondo wanditseho kwishyura ukoresheje terefone ndetse bakanatwereka undi muntu ufite imisatsi myinshi w'umukobwa, ufite baji imugaragaza ibyo akora.

Hano bari kutwereka umuntu ufite igiseke. Ntabwo ari umunyarwanda. Ni umunyamahanga ndetse hari umuntu wicaye wambaye umwenda wa sosiyete y'itumanaho ya MTN. Hari undi muntu ufite igikapu.

Aha bari kutwereka abantu bahagaze ndetse hari n'abandi bantu bicaye, bakanatwereka ko hari n'abakozi ba sosiyete ishinzwe itumanaho rya Airtel, bigaragara ko abo bantu bategereje ko babaha serivisi zigendanye n'iryo tumanaho bashaka.

Aha turi kureba abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN, barahagaze bambaye imipira ndetse bari mu mutaka. Hirya hari indangururamajwi ihari ya bafure mu ndimi z'amahanga.

Aha bari kutwereka abagabo babiri bari gusuhuzanya, bambaye imyenda y'imihondo ndetse bigaragara ko ari abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni. Inyuma yabo hari abantu bahari bari kubarebera.

Aha turi kureba abantu bari m'ihema iryo hema rigizwe n'ibara ry'umutuku n'irya sosiyete y'itumanaho rya eyateri bigaragara ko hari abantu bari gufashwa umugabo uri imbere yambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku yambaye n'ipantaro y'umukara.

Aha turi kureba moto ihetse ikintu cy'igikarito. Hirya hari umugabo wambaye inkweto zifunguye ndetse n'ipantaro y'umukara. Yambaye ishati yenda kumera nk'umukara. Hari n'inyubako ihari. Mu muryango baratwereka umuntu uri kuza.

Aha turi kureba moto ihetseho ikintu cy'igisanduka, cyanditseho Kasha. Uwo muntu ugihetse yambaye ijire. Yambaye n'ingofero ikoreshwa n'abantu batwara abagenzi. Hirya hari ikimuri cy'umuhondo ndetse hari n'inyubako ihari.

Umugabo wicaye ku kinyabiziga cya moto ihetse igikapu kiri mu mabara y'umuhondo, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'isaha ku kaboko amwenyura, inyuma hari igikuta gisize amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, iyo moto ikaba ihagaze ahantu.

Aha turi kureba igipangu gifite ibara ry'umweru. Ndetse tukareba inzu yubakije amatafari ahiye. Ni inzu ndende cyane, ifite uturyango dutoya ndetse ifite n'ibiti inyuma. Urugero, hariho n'imikindo.

Aha turi kureba abantu babiri. Uwa mbere ari kugenda asa nk'aho ahunga ifoto n'undi ari kuza amukurikiye, hirya hari intebe iriho ubusa nta muntu uyicayeho ndetse barimo kutwereka ibintu bimeze nk'ibidobo

Aha turi kureba umugabo, intoki ze yazihuje, inyuma ye hari inzu, izo nzu zifite amarangi menshi y'umweru, ndetse izo nzu zifite n'inzugi, baratwereka na jaride isa nk'aho ari nshyashya itaramera neza.

Aha turi kuhareba inyubako, zigizwe n'amarangi y'umweru, turi kureba idirishya, ndetse tukareba, n'irindi dirishya hirya.

Aha turi kureba umugabo wambaye isengeri ndetse inyuma ye harahinze rwose, hakurya bari kutwereka ahantu hari amazu menshi.

Hano tukoreraba inyubako. Ifite ubusitani bwiza buteyemo imikindo ndetse n'ibindi biti bitandukanye. Baratwereka inyubako igeretse hirya. Iyo nyubako ifite amarangi y'umweru, ndetse bakatwereka n'ikirere kiri hirya.

Hano bari kumwetwereka inyubako, iyo nyubako yubatse ku buryo bugezweho. Ifite inzugi, amadirishya ndetse n'igisenge cyiza, baratwereka n'uruzitiro rwayo rwayo ruyikikije rugizwe n'amatafari ahiye.

Aha turi kuhareba inyubako, izo nyubako zifite irangi ry'umweru ndetse hirya hari izindi zubatse ariko zidafite irangi, hari n'izindi zubakishije amabuye mo hagati mu mabuye harimo irangi ry'umukara.

Aha turi kureba abadamu, abo badamu bari gucuruza ndetse hirya hari undi uhetse igikapu cyenda gusa n'umutuku, bigaragara y'uko bari kureba ibyo bagura.

Aha turi kureba ahantu bari gucuruza urugero, hari ibikapa bihananitse inkweto, ndetse n'imikandara. Ndetse hari n'abaguzi benshi bari kugenda banyuranamo hari abagabo ndetse n'abagore.

Aha turi kureba abantu benshi ari ubujya n'uruza bari kugenda bacanamo bigaragara ko bari mu isoko bakanatwereka sale bari gucururizamo igaragaza amatara menshi.

Aha turi kureba umuntu w'igitsina gore ahagaze mu bicuruzwa, harimo ibyo kunywa byinshi, haba iby'umuhondo, haba iby'umutuku ndetse haba n'amazi nayo biragaragara ko hano bayacuruza.

Aha bari kutwereka iduka, muri iryo duka hari n'abantu bari kugenda mo, bigaragara yuko ari abaguzi ndetse n'abagurisha, bari kutwereka na mudasobwa.

Aha bari gutwereka abantu bane harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bari kuganira umugore umwe afite indangururamajwi, bisa nk'aho ariwe uyoboye ikiganiro, undi mugabo ari gusoma undi amaboko yayafatanyije, ndetse nyuma yabo hari urupapuro rwanditseho tekana.

Aha bari kutwereka imbaga y'abantu nyamwinshi bigaragara ko imbere hari umuntu bategereje uri kubabwira ndetse bakatwereka n'ibirango byanditseho ejo heza, hirya hari ishuri rihari, inyuma y'iryo shuri hari ibiti bihari byinshi by'inganzamarumbo.

Hano bari gutwereka ibicuruzwa bigiye bipanze biri mu mashasi hari hafite amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'icyatsi.

Aha turi kuhareba inyubako, muri iyo nyubako hari abantu bari kuhinjira bigaragara yuko ari isoko, ndetse imbere yayo hari abantu bahagaze harimo n'ucunga umutekano, ndetse hari na moto ihaparitse hari n'igiti gihari, icyo giti ni igiti kininiri.

Aha turi kureba iduka, iryo duka ririmo ibicuruzwa, ibyinshi ni amacupa agiye apanze.

Aha turi kureba ibicuruzwa bipanze harimo amacupa arimo ibinyobwa by'umuhondo ndetse n'andi mashashi ari n'ibindi bicuruzwa hirya baratwereka ibindi bicuruzwa nabyo bipanze bakatwereka umuntu wambaye ipantaro yambaye inkweto zifunguye yambaye n'ishati y'umukara ari kugenda.